Ibyapa byinshi byamamaza ku mapoto y'amashanyarazi agiye ateye ahantu hatandukanye, bigaragaza y'uko bari kwamamaza ubwishingizi bw'inguzanyo aho ushobora gufata inguzanyo ugakorana n'ubwo bwishingizi bakishingira iyo nguzanyo yawe mu gihe waba ugize ikibazo cyo kutishyura bakaba bagufasha mu kwishyura.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi butandukanye kiri ku cyicaro gikuru cy'iki kigo gitanga ubu bwishingizi, aho ushobora kujyayo ukabona ubufasha bwinshi bugiye butandukanye bugendanye na serivisi batanga, z'ubwishingizi bw'ibintu ndetse n'abantu.

Iduka ricuruza imyenda hari abakiriya baje muri iryo duka, hari uhagararanye n'ubara amafaranga kuri resebusiyo, abandi babiri barimo barareba imyenda y'amashati kugira ngo barebe iyo bagura ibabereye.

Sare nini iparitsemo imodoka hari umugabo wicaye imbere hari ameza ateretse amazi ndetse n'impapuro zitandukanye aha ni hamwe mu hantu bacuruza amamodoka cyangwa bayakodesha, uyu mugabo akaba yari yaje gukodesha cyangwa se kugura imodoka imwe muri izi ziri hano.

Ahacururizwa ama modoka atandukanye. Aha haparitse imodoka ntoya nyinshi ziparitse ku murongo, bigaragara yuko ari ahantu ushobora kujya ukaba wakodesha cyangwa wagura imodoka yo kugendamo, cyangwa se gutwaramo abantu runaka bagusuye.

Abantu batanu bahagaze ubona ko bari kuganira, umwe yambaye rinete, undi yambaye agapfukamunwa, undi yambaye ingofero, abandi babiri umwe afite icyapa mu ntoki cyanditseho ABG, undi akagira agakapu gatoya mu ntoki.

Abantu benshi bari muri banki batoye umurongo bategereje guhabwa serivisi, aho hari umwe uri kuzuza ifishi yo kubitsa cyangwa kubikuza biragaragara yuko umukozi wicamo imbere ategereje kubakira ngo abahe serivisi zabazanye muri banki.

Igiceri cy'amafaranga makumyabiri y'u Rwanda kiriho ikirangantego ndetse kiriho n'umubare w'amafaranga agaragaza ko ari makumyabiri, aya ni amwe mu mafaranga akoreshwa mu Rwanda ndetse yemewe na banki nkuru y'u Rwanda.

Inoti nyinshi zigerekeranyije zigiye zitandukanye, ibiceri na byo bigerekeranyije, ibindi bigiye bisandaje ku mpande, aya ni amafaranga akoreshwa mu kwishyura serivisi zitandukanye ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye biba byafashwe.

Iduka ricuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imigati amaji amata amandazi ndetse n'ibindi hahagaze umuntu w'umukobwa bigaragara yuko yaje kugura amata, imbere ye hateretse ijage ipfunduye umucuruzi waho arimo aramuha serivisi.

Umutobe ukorwa n'uruganda inyange. inyange ni rumwe mu nganda zikorera mu Rwanda zitunganya ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, uyu mutobe uri ukozwe mu matunda uri mu gikarito cya litiro imwe.

Uburyo bukoreshwa mu kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, hari uburyo butandukanye ushobora kwishyura ukoresheje ikarita, ukoresheje telefone, ndetse ukishyura ukoresheje na mudasobwa. Ibi byose uburyo ushobora kwishyura udakoresheje amafaranga ufite mu ntoki, ahubwo ugakoresha amafaranga wenda ufite kuri banki cyangwa ari kuri telefone yawe.

Bumwe mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga umuntu akoresha mu kwishyura, yaba ibicuruzwa yaguze, yaba kwishyura serivise zitandukanye, aho yishyura akoresheje ikoranabuhanga rya momo, iyi ni serivise ya mtn aho abantu bohererezanya amafaranga ndetse bakanakira amafaranga nta kiguzi kinini kigiyeho.

Urupapuro rugaragaza umusoro ugomba kwishyura, ruboneka nyuma yo kumenyekanisha ibikorwa ukora, mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, bakareba amafaranga ugomba kwishyura nk'umusoro ujya mu isanduku ya Leta, hanyuma bakaguhereza urupapuro ukajya kwishyura ayo mafaranga.

Umuntu ufite mu kiganza cye amafaranga menshi y'amahinde ndetse n'andi agiye ari ku mpande zigiye zitandukanye n'inote nyinshi za magana atanu mu mafaranga akoreshwa mu buhinde aya mafaranga akaba yakoreshwa ndetse no mu bindi bihugu byemera ihererekanya ry'amafaranga ukoresheje amafaranga y'amahinde.

Abantu babiri bahagaze barimo baragurana amafaranga, umwe ari kumuhereza amadorari y'Amanyamerika, undi akamwoherereza amafaranga bigaragara ko ari ayo muri Asia, barimo baragurana harimo harabaho ivunjisha.

Umugabo uhagaze imbere y'aho baguranira amafaranga, aho bavunjishiriza afite amadolari mu ntoki, bigaragara ko avuye kuyavunjisha akaba yatanze andi mafaranga bakamuhereza amadorari, iki ni kimwe mu gikorwa gikorwa mu gihe umuntu ashaka amafaranga atandukanye nayo yari afite akavunjisha bakamuha andi mafaranga yashakaga.

Inyubako y'ubururu yanditseho mu ibara ry'umweru ndetse hariho n'icyapa cyamamaza, iyi ni inyubako ikorerwamo ivunjisha aho ushobora gukenera amafaranga y'amanyamahanga cyangwa ufite amafaranga y'amanyamahanga ushaka abanyarwanda, bakayaguha bakakuvunjira ugafata amafaranga ushaka.

Ahacururizwa ibikoresho bitandukanye bikoze mu mbaho, ameza, intebe, zaba ntoya cyangwa inini, ahangaha ushobora kujyayo ukaba wagura intebe zitandukanye, cyangwa se bakazigukorera, bakagukorera izo ushaka akaba arizo utwara.

Ameza azengurutswe n'intebe nke abantu bicaramo, hari amazi makorano azwi nka pisine abantu bogeramo iyo basohotse, hari udutebe duteye hakurya y'iyo pisine, abantu iyo bamaze koga bagenda bakicaramo bakaruhuka cyangwa se bakanayiryamaho.

Abantu babiri bicaye bari gutanga serivisi ndetse n'abandi babiri baje gusaba serivisi, umwe arimo araganira n'umugabo undi nawe akaganira n'umugore, bigaragara y'uko buri wese ateze amatwi umuntu bari kuganira kugira ngo abone uko amuha serivisi nziza.

Inzu ikorerwamo na banki. Hari abaturage baje kwaka serivise zitandukanye, hari abaje kwaka inguzanyo aho bari gusoma amabwiriza ajyanye n'inguzanyo, ndetse n'igisabwa kugira ngo babahereze inguzanyo, ndetse hakaba hari n'abari kuzuza izo mpapuro zisabwa kugira babashe kubona inguzanyo.

Isoko ricururizwamo imbuto zigiye zitandukanye harimo inyanya, pavuro, karoti, intoryi, ibitunguru, imiteja harimo abantu bigaragaraho y'uko ari, abacuruzi, bategereje abakiriya ngo baze babagurire, hanyuma biragaragara y'uko bari kungurana ibitekerezo uko bateza imbere ubucuruzi bwabo.

Hari akazu ka MTN imbere harimo umukozi ucuruza ama inite ndetse unacuruza ibijyanye n'ihererekanywa ry'amafaranga kuri telefone, afite abakiriya babiri bahagaze imbere ye bari kuganira bigaragara ko ari kubaha zimwe muri serivisi atanga.

Akazu gato gatangirwamo serivisi za MTN, hari abantu baje kwaka ubufasha kuri izo serivisi. Bacururizamo amayinite, kubitsa no kubikuza ndetse n'izindi serivisi za MTN.

Uburyo bugezeho bwo gucuruza no guhaha bitabaye ngombwa yuko ugera aho ibicuruzwa biri cyangwa ngo uhure n'ubicuruza, aho ukoresha ikoranabuhanga ukaba watumiza ibicuruzwa bakabikugezaho, aho uri ukishyura ibyo bicuruzwa wakiriye.

Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa n'ibigo bitandukanye, mu kumenyekanisha ibikorwa bakora ndetse no guha amakuru akenewe ku bakiriya babo, ndetse n'abandi bantu bakenera amakuru kuri ibyo bigo, aho bakoresha ikoranabuhanga, bakamenyekanisha ibyo bakora, ndetse n'ibyo bagambiriye kugeza ku bakiriya babo.

Inzu zitandukanye zubatswe kugira ngo zijye zigurwa cyangwa zikodeshwa n'abantu byaba igihe kirekire cyangwa igihe gitoya. izi ni inzu zifite imiryango igiye itandukanye imbere hari igipangu imbere mu gipangu harimo inzu ndetse no ku rundi ruhande hari inzu zigiye zegeranye.

Saro y'inzu iteye imbere, aho harimo ameza, akabati, intebe z'icyatsi hakaba harimo ibikoresho byo mu nzu bigiye bitandukanye, ibishyushya, ibikonjesha, ndetse n'ibyongera umwuka munzu.

Inzu ya etaje iri mu gipangu gifite parikingi, akaba ari inzu zikodeshwa cyangwa se zikagurwa n'abantu bagiye batandukanye aho inzu ziba zihari umuntu akaba yaza agakodesha cyangwa se akayigura akayibamo bisanzwe.

Umugabo wishimye cyane yambaye ipantaro nziza, ikote, rinete, impeta, ari imbere y'inzu izengurutswe n'indabo ziteye mu mavazi biragaragara yuko ashimishijwe n'inzu nziza yamaze kubaka cyangwa yaguze akaba yageze ku ntego ze.

Itangazo ryamamaza inzu ya etaje iri muri Kigali, aho ushobora kuyibona ikaba iyawe ku mafaranga angana n'ibihumbi ijana na mirongo ine by'amadolari y'Amanyamerika, kuri ayo mafaranga iyo nzu ukaba wayigira iyawe, kandi ukayibamo ntawe uyikwishyuje.

Isoko rinini ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imbuto, imboga, ibikoresho byo mu rugo, imigati ndetse n'ibindi, aha ngaha ni isoko ushobora kujyamo ukeneye igikoresho icyo ari cyo cyose ukaba wakigurayo.

Umuntu uri mu isoko rusange Super Market, afite icupa rya mayonezi mu ntoki, ari kuryerekana nkaho ariryo ahisemo agiye kugura, ku ruhande rwe hari ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye ariko we yahisemo kiriya afite mu ntoki.